Aha ni kwa muganga aho umurwayi arwariye mu bitaro ,ari ku gitanda ndetse n'abaganga barimo kumukurikirana. Harimo umwe uri kumwitaho cyane abandi nabo bakagerageza kumufasha.